Muri bare akenshi haba hagaragara neza hari umucyo hari amabara y'amatara anyuranye, ku buryo urimo agenda ahindura ibara bityo bigatuma abantu bahajya baba biyumva nk'abantu basohokeye ahantu heza cyane.

Muri bale haba hasa neza cyane, ukumva wakunda kuhahora, ariko kuhahora cyane si byiza, kuko byatuma, musesagura cyane, twihatire kumenya uburyo tugomba kugenda muri bale, n'abo tugomba gusohokana nabo, kandi twe ku marirayo imitungo yacu.

Hoteri nziza cyane. Hoteri igaragara, hoteri yubatse mu murenge wa Kinigi, ikunda kugendwamo na ba mukerarugendo. Twashishikariza benshi kuyijyamo, kuko yohereza ikanazana amadovize mu gihugu.

Henshi nta hadacururizwa inzoga. Inzoga ni ngombwa ku bayifata ariko nutayifata ntacyo yaba. Ariko dukurikije aho inzoga zicururizwa muri bare izo ari zose, birashoboka ko wihase inzoga hari n'igihe byazabyara n'ubusinzi bukabije, ugahura n'ibibazo.

Bare ahantu barara, bakahafatira icyo kunywa nicyo kurya, hakaboneka naho kurara. Bare ziraboneka cyane mu karere k'amajyaruguru, aho ba mukerarugendo nabandi bose bifuza gusura buri gihe.

Inyama zokeje akabenzi cyangwa zikaranze ni inyama ziryoha, akenshi ziba ziherekejwe n'agatungu ako bita salade, bagashyiraho indimu, bagashyiraho n'igitoki cyangwa se ifiriti y'ibirayi, iyo ubifatishije wumva umeze neza urengejeho n'icyo kunywa.

Igikoresho kitwa firigo gikoreshwa mu gukonjesha ibinyobwa. Akenshi gikoreshwa mu mahoteri no mu mabare. Kuko hari abaza bakeneye ibinyobwa bikonje n'ibinyobwa bishyushye. Bashobora kugikoresha no mu kubika ibiryo kugira ngo bitangirika, birimo imboga, ndetse n'inyama.

Kinigi ni umurenge uri mu karere ka Musanze intara y'amajyaruguru. Ukaba ukoze ku ishyamba ry'ibirunga ari ryo parike nasiyonare y'ibirunga. Uhageze ni ahantu nyaburanga, hari amahumbezi ni heza cyane buri wese aba akeneye kuhagera.

Abacuruzi b'impeta, abacuruzi b'amaherena, abacuruzi b'udukomo ,abenshi usanga batugendagendana ku mayira ,ari udukoresho twinshi cyane, ku buryo udashobora gusobanukirwa neza akenshi iyo utabyitayeho.

Aha ni iduka ricuruza ibikoresho binyuranye, biragaragara nk'aho itarakingurwa, kuko igaragaza ko abantu batari batangira no kuwinjiramo. Gusa nibakingura, abantu baraza kwinjira.

Matela Dodoma, uruganda rukora matela nziza cyane, akaba ari uruganda rufite inkomoko mu gihugu cya Tanzaniya, ariko rukaba rukorerwa no mu Rwanda bitewe n'uburyo abashoramari biyemeje gushora imari, matela za Dodoma ni matela nziza cyane.

Iri n'iduka ari ryo bita butike ricuruza imyambaro. Imyambaro idorwamo amakositimu ndetse n'amakanzu by'abantu banyuranye, igaragara nkiri ku muhanda kandi riri ku muhanda niho ribona abakiriya n'abaguzi.

Ahantu hacururizwa butique, ubu hateye imbere hasigaye hatekwa n'imashini ishobora gufasha abantu kwandika ndetse no gufotora. Bityo igafasha muri serivisi zinyuranye, nk'ahantu hazwi ho kuba hakoreshwa irembo.

Homini iherereye mu mujyi wa Ruhengeri ,mu nsi y'akarere ka Musanze. Homini, hotel nziza cyane ijyamo ba mukerarugendo ndetse n'abandi bashaka gukoreramo imirimo isanzwe y'akazi ikaba hoteli ifite isuku hotel uwaza Musanze wese yakwishimira kujyamo.

Uruganda ruciriritse, uruganda twavuga ko ari fagitori, rukorerwamo ruhindura umusaruro uturutse ku buhinzi ndetse n'amatungo, nko gukora amata, gutunganya amata, gukora kawunga ndetse n'ibindi, cyangwa se imbuto ziribwa nko kwa Sina Gerard.

Kenkayori nyinshi buno zirimo ibicuruzwa bikoreshwa mu bwubatsi, nka sima, amarangi, ibyuma, hagacururizwamo irangi ryiza cyane ryitwa amakopense, ndetse iryo rangi rigasigwa ku bintu binyuranye akaba ari irangi ryiza cyane.

Aha hakorerwa ubucuruzi bunyuranye, hari aba ajenti ba Emutiyeni, hari aho bacururiza bakanahakorera ibijyanye n'ikoranabuhanga, kwandikira abaturage ndetse no gusohora ibyangombwa by'ubutaka, bakanacuruza ibiribwa n'ibinyobwa.

Ahacururizwa ibitenge imyenda y' abagore, abagore bakunda kuyidodeshamo amaribaya, ndetse n'amakanzu meza cyane ababera mu birori, mu birori byo hirya no hino iyo byabaye.

Za butiki zicuruza ibikoresho binyuranye, birimo n'amatiyo akoreshwa mu kuyobora amazi. Ba kanyamigezi barayifashisha. Bayifashisha mu kugeza amazi hirya no hino mu mago, ndetse no mu gukabuta amazi mu masoko.

Iyi ni botique iyi boutique igaragara nk'icururizwamo ibijyanye n'ibikoreshwa mu gikoni harimo terimusi. Terimusi ibika icyayi ndetse n'igikoma, umuntu ashobora gufata mu gitondo agiye mu kazi cyangwa se agiye mu ishuri.

Iyo resto bare bens ltd bare ibonekamo ico kurya n'icyo kunywa ,ndetse ikabonekamo n'akanyama bita akabenzi, akanyama gategurwa gakomotse ku ngurube akanyama karyoha cyane, gakundwa n'abantu benshi.

Uyu ni umucuruzi, ni umucuruzi aracuruza imbuto imbuto zikenewe n'abana, zikeneyewe n'abantu bakuru, kandi imbuto zigira akamaro ku bijyanye n'ubuzima bw'umuntu. Imbuto zisigaye zihenze kuko kuzisarura no kuzihinga bisigaye bitwara igihe n'iminota myinshi. Twihatire kurya imbuto kuko ni byiza ku buzima bwacu.

Karasike keke, hakorerwa imikati ndetse, hakorerwa imigati ndetse na gato za mariyaje n'izo mu birori.

Umucuruzi wa butike afatanya ibintu bisanzwe, ibintu binyuranye birimo kuba umwagenti wa Equity n'uwa MTN akabika ndetse akanabikuririra ababuze serivisi kuri banki. Ni imirimo myiza cyane ishobora ku kumwungura igihe cyose.

Aha n'igikoni aha nahatekegwa ibyokurya binyuranye, niziko rya kijyambere, iziko risaba gucanamo ikwi nziza ndetse n'amakara meza n'iziko mbese rifite isuku.

Muri kenkayori hacururizwamo amarangi, ibyuma bikora inzugi, amabati ndetse n'ibindi byose bikenerwa mu bwubatsi. Ziboneka henshi mu mujyi wa Musanze, ndetse n'ahandi, biterwa n'aho umuntu yashatse gucururiza.

Amaduka acuruzwamo ibintu binyuranye ariyo butiki, hashobora kubonekamo ibyuma bitera umuti amapombo atera imiti, ndetse n'imifuka itwarwamo ibyo kurya, ndetse hakanabaho n'ibindi bicuruzwa byinshi ibicuruzwa bikenerwa na rubanda.

Muri butike hagurirwa ibikoresho binyuranye n ibikoresho by'abana cyane cyane iyo bagiye kujya mu ishuri bagura ibikapu bakagura amakaye n'imyenda mu isoko rya Ruhengeri birahacuruzwa ndetse n'ahahera kuri goyiko tujyanyo tuje guhahira abana.

Matera, matera ni igikoresho cy'ibanze. Matera irasaswa, matera isaswa na buri wese. Ushaka kuryama neza, yifashisha matera. Hari matera za Rwanda form, hakaba matera za dodoma n'izindi.

Inzu igaragara nk'ishaje, isajishijwe no kuba yubatse munsi y'ibiti, ibiti byitwa inturusu bigira imbuto n'amababi byangiriza amabati.

Icyongereza ni ururimi rukunzwe ku isi hose, mu cyongereza baravuga ngo ingirishi izi gudu foru ada ragwejizi, icyongereza ni ururimi rwigishwa mu mashuri hose, iyo uzi icyongereza ku isi hose wahagenda bakumva, bityo tukaba twashishikariza abana bacu natwe ubwacu kwiga ururimi rw'icyongereza kuko ni ururimi rwiza.

Ubusitani ni bwiza, ubusitani bwiza kuko akenshi haba hari aho kuruhukira, iyo uhageze uryama ku gacaca, ukugama mu nsi y'ibiti by'avoka, ukugama izuba, mbese ukanezerwa.

Ubukerarugendo ni ingenzi bituma uruhuka mu mutwe, ukagera ahantu hanyuranye maze ukirangaza mo gakeya ukamenya n'ibyiza bitatse u Rwanda, ntuhugire kuba mu rugo gusa ibintu bitaguha agaciro, ugakora vuwayaje ukamenya hirya no hino .

Supamaketi ni ahantu hakorerwa, hacururizwa ibintu binyuranye, harimo: ibyo kurya, n'ibyo kunywa, ndetse hakanacururizwa n'imyambaro, igihe biterwa n'icyo uwayishizeho ashaka kuhakorera. Ziboneka henshi mu mujyi wa Musanze, cyane ko umaze no gutera imbere.

Igisheke ni cyiza, ni igihingwa gikundwa na benshi, kivamo isukari kandi kikaribwa na buri wese, ni ikiribwa buri wese akunda. Tugerageze na twe duhinge igisheke ni cyiza cyane.

Ibikomo byambarwa ku maboko n'abakobwa cyangwa se urubyiruko akenshi yabyanditseho utugambo. Utugambo twiza tw'urukundo, dushobora gutangwamo nka kado,p bigaragaza ko umuntu yishimiye undi cyangwa se umukobwa akunze umuhungu , cyangwa umuhungu yakunze umukobwa.

Aha ni kuri banki. Iyi banki aho bakoresha ATM otomatike tera mashine aho babikuza, bakanabikuza imari n'amafaranga, baba baturage, oruganizasiyo cyangwa se izindi kampanizi.

Isoko ricuruza ibikoresho binyuranye, isoko ricuruza imigozi, ricuruza udukoco, imitego y'imbeba, imbeba zazengereje abaturage, zifite ibiziriko n'imirunga y'ihene bazirikisha mu mirima, kugira zibone uko zirisha, ibi ni ibikoresho bikenerwa n'aborozi ndetse no mu giturage, ahagaragara udusimba twona imyaka y'abaturage.

Aka ni agasoko, ni ahantu bacururiza ibyo kurya mu buryo bworoshye, ibi bituma uwo ariwe wese abona ibyo kurya ku mafaranga afite, ashoboye kugeraho, bigatuma ataburara cyangwa se ngo abwirirwe, kandi ku buryo butoroshye. Utu dusoko twinshi tuba muri karitsiye, cyangwa se hafi n'amazu.

Amasoko y'ibiribwa ari hirya no hino. Afasha abantu mu buhahirane. Hacururizwa umuceri, bacururiza isukari, hacuruzwa ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho nk'amabase. Ikibabaje ni uko basigaye bashiramo n'inzoga.

Isoko, isoko rifasha imihahire rigafasha abantu guhaha. Isoko ni ingenzi kuko kera impamvu abantu bicwaga n'inzara, rimwe nuko baburaga n'aho bahahira. Bityo turasabwa gukora kugira ngo dusagurire amasoko, maze ahasigaye ubuhahirane bworohe.

Muri gare ya Nyabugogo hari hagaragara ubucuruzi bw'imyambaro, ibikoresho, amaradiyo ndetse n'ibindi. Bityo abagenzi batambuka bakaba bagura ibyo bakeneye igihe cyose babishaka.

Imigati yitwa: hari abayita ibidiya, hari abayita imigati y'ingano, akenshi iba ikozwe mu ngano. Ingano zigakarangwa mu mavuta noneho bikabyara imigati ikundwa na benshi kuko iba irimo umusemburo muke.

Abacuruza agataro bacuruza bakebaguza, kubera ko akenshi barabibaka kubera ko baba bacuruza mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ushaka gucuruza arasabwa kwegera abandi kugira ngo abone uko atanga umusoro, kandi yake n'inguzanyo muri banki kugira ngo abashe kwiteza imbere, kuko gucuruza agataro akenshi bitamuha umusaruro utubutse.

Hacururizwa amashaza, hagacuruzwa ibishyimbo, ibitoki, ibijumba n'ibishyimbo by'ibitonore. Isoko ryiza cyane rigaragara mu gace k'amakaritsiye agize Umujyi wa Musanze. Hagaragara ibiribwa byiza cyane, amajeri mabisi yitwa urunyogwe.

Mu mujyi wa Musanze abantu bambukiranya imihanda rimwe na rimwe bakoresheje amagare n'amaguru, ariko kwambukiranya imihanda rimwe na rimwe tugomba kubyitondera kuko bishobora kuduteza impanuka tutateguye.

Isoko ry'imbuto zinyuranye, rigaragara ahagana muri gare ya Musanze, uhageze ubona imbuto z'ubwoko bunyuranye, avoka, imineke, ibinyomoro, imyembe, n'ibindi.

Ubucuruzi bw'imbuto buteye imbere. Imbuto ni nziza, kuko zituma umubiri ukora neza. Mu masoko hose abacuruzi b'imbuto baba barakize, kuko zirahenda kandi zigura n' amafaranga menshi, ku buryo n'uwazihinze aba ari umukire.

Isoko ry'ibiribwa ahanini hagaragaramo imboga za shufureri ibitunguru ndetse n'imiteja, isoko ry'ibiribwa mu karere ka musanze riherereye ahitwa muri kariyeri.

Amasoko menshi, ntabwo asakaye. Bityo akaba akeneye gusakarwa. Abacuruza bacururiza hanze, hari abacuruza banyagirwa, ndetse byagera igihe bakajya kugama. Bityo bene ayo masoko, abahahamo hari igihe bahagirira n'ikibazo gikomeye cyane.

Supamaketi, supamaketi akenshi ni ahantu hacururizwa, hacuruzwa ibintu binyuranye, haba harimo ibindi byinshi, ibicuruzwa byinshi byo kunywa za konfeture ndetse n'ibiribwa, ku buryo usanga abantu benshi bagana ama supamaketi guhahirayo kandi uhahiyeyo baramupfunyikira bakamufata neza kozagaruka.

Ubucuruzi buteye imbera mu Rwanda, cyane ko n'iterambere uko rigenda riza hagenda haza imyenda myiza, ku buryo ubona buri wese ashaka gukorera amafaranga akambara neza, kugira ngo agaragare neza.

Imyumbati igira ibibabi byitwa isombe. Isombe ikaba iribwa isekuwe, igatekwa, ndetse iryoha itetswe mu nyama zifite amagufwa. Abenshi bakunda isombe kuko nayo igira intungamubiri nyinshi.

Imbabura bashyiraho amakara bakazitekaho. uduseke tugakoreshwa mu gutwara ibyangombwa, imyaka akenshi bakatwifashisha igihe bagiye mu birori, mu bukwe n'ahandi.